Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umutuku, yegeye n'umugore w'umuzungu wambaye agapira k'umweru, afashe agakapu k'umukara kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru avuga ngo sura mu Rwanda, inyuma ya bo hari ibyapa bitandukanye biri mu mabara y'umweru, ubururu n'andi.

Abana babona ko ari abanyeshuri bambaye impuzankano y'ibara rya kacye, bose bateraniye ku bukarabiro aho bagiye gukaraba intoki kugira ngo bakomeze kwirinda indwara zaturuka ku mwanda.

Umugore wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umuhondo, umweru, n'umukara. Ateruye umwana ukiri mutoya w'agahinja, arimo aramusoma ariko yambaye agapfukamunwa k'ubururu n'amaherena, abona ko yamukunze cyane yamwishimiye.

Urujya n'uruza rw'abantu, biganjemo abana bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, arimo umweru, umukara, ubururu, n'ayandi. Bahuriye ku iriba rishyashya ryubatswe, imbere y'iriba hari amajerekani arimo ibara ry'umuhondo ari kuvomerwa.

Itsinda ry'abantu bahagaze hamwe, bambaye amataburiya y'umweru ariko hari n'abandi bicaye ndetse n'abandi bambaye imyenda y'imikara, bambaye mu ijosi ryabo utuntu tubaranga, inyuma yabo hari icyapa gishushanyijeho n'ubundi abantu, kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, cyanditseho amagambo y'umweru.

Ikirango kiranga icyahoze ari ikigo cy'u Rwanda gishinzwe gutanga ndetse no gukwirakwiza umuriro n'amazi WASAC, kiri mu magambo asa ubururu n'icyatsi.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu wasetse kandi ureba imbere, iruhande rwe hari amagambo y'umukara naho agana hasi hari ibirango bitandukanye ikiranga repubulika y'u Rwanda n'ikindi kiranga ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda cyita ku buzima arabisi.

Abantu bahuriye hamwe mu ihema risa umweru, bambaye imyenda ririmo ibara ry'ubururu, umweru, umukara n'ayandi, hagati yabo hari imeza iriho igitambaro cy'ubururu baryamishijeho akana kambaye imyenda y'imyeru, bose urabona ko bishimye kandi bari gukoma amashyi.

Abantu babiri begeranye bambaye amashashi y'ubururu ndetse udushashi mu mutwe n'uturindantoki. Imbere yabo yicaye umusaza wambaye ikanzu y'umukara n'ingofero y'ubururu wasamye bagiye kumuha ikinini. Naho hirya yabo kandi hari imeza iteretseho ibikoresho bari kwifashisha.

Abantu bamaze kuvoma ku iriba rusange risa ubururu, harimo umwana wambaye agapira k'ubururu n'undi wambaye agapira karimo mo utubara tw'umutuku barimo barikorera indobo iri hagati yabo.

Abantu bari kumurongo bicaye mu ntebe zijya gusa umuhondo, bambaye udupfukamunwa kandi hari n'abambaye imyenda irimo amabara y'umukara n'umweru, inyuma yabo hari icyapa kinini kirimo ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru.

Umwana wambaye agakanzu k'igitenge, kari mu ibara ry'umutuku. Ari gukaraba ibiganza bye ku mazi. Imbere ye hari ibase y'umukara, iteze kuri robine y'icyuma ifashe ku iriba. Hirya ye hari igikuta cy'amatafari.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe bahagaze, bambaye imyenda irimo amabara menshi nk'umutuku umweru umukara n'ayandi, iruhande rwabo hari ihema ry'umweru ndetse n'inzu iteye irangi ry'umweru ahagana hejuru.

Abagore batatu. Ubona ko baje ku ivomero rusange, aho bamwe baje kuvoma, abandi baba baje gufura. Harimo babiri bafashe ku cyuma cy'iriba barimo barapomba amazi kugira ngo azamuke. Uri imbere y'iriba arimo aravomera mu ndobo.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagore bambaye imyenda yiganjemo ibitenge ndetse n'amakanzu y'ibitenge baje kuvoma, imbere yabo hari umurongo muremure w'amajerekani yiganjemo ibara ry'umuhondo, hari n'akazu k'amazi karimo umuntu wambaye umupira w'umukara uri mu idirishya, uri kuvomesha.

Itsinda ry'abantu bifotoje bahagaze bamwe inyuma y'abandi. Bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara, umweru, ubururu ndetse n'umutuku. Inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mubara y'umweru n'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru.

Umwana wunamye yambaye agashati ndetse n'akajipo k'ibitenge karirimo ibara ry'umutuku wiganje, uwo mwana ari gukaraba ibiganza bye byombi asukura intoki ze akuraho imyanda, imbere ya robine hiri ibase y'umukara iri kujyamo amazi.

Abana bambaye impuzangano y'ibara rya kacye, baje ku mugezi kuvoma, bazanye indobo n'utujerekani. Harimo abakobwa n'abahungu, hari amariba atatu barimo baravomeraho, inyuma yabo hateyeye ibiti by'imikindo.

Itsinda ry'abantu bari hamwe bigaragara ko ari abanyabuzima, bambaye amataburiya y'ubururu n'utubaranga mu ijosi, hagati yabo harimo umugabo w'umuzungu wambaye ikoti ry'umukara na karuvati n'amadarubindi, bakikijwe n'ibiti.

Umwana wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru irimo utudomo, arimo aroza indobo isa umweru, iruhande rwe hari ivomo rusange ry'icyuma rizamura amazi riyakuye mu butaka.

Abantu baje kuvoma ku iriba rusange, harimo abagore babiri n'abana batatu, umugore umwe yambaye agapira k'umutuku akenyeye igitenge, arasutamye arimo aroza umwana uri imbere ye wicaye mu ibase, naho undi mugore we akenyeye igitenge mu ijosi rye afite indobo aje kuvoma.

Abantu bicaye bari kuganira harimo abagore babiri ndetse n'abagabo babiri bambaye imyenda irimo amabara y'umukara ndetse n'ubururu imbere yabo kandi hateretse imeza iriho igitambaro cy'umukara iteretseho ibikoresho bitandukanye nka mudasobwa amazi n'ibindi.

Umugore wambaye umupira w'umweru urimo amabara y'icyatsi n'umutuku afite ikayeyi mu ntoki ze n'ikaramu imbere ye hicaye umwana wambaye akagofero k'ubururu n'agapira karimo uturongo kandi iruhande rw'wo mwana hicaye abantu bakuze biganjemo ababyeyi harimo n'umukecuru uhetse umwana n'undi witeye igitenge.

Ibiganza bibiri byambaye uturindantoki dufite ibara ry'umweru bifite kandi urushinge cyateye umuntu ku kaboko uwo muntu yahinnye umupira we kandi aricaye.

Itsinda ry'abantu bahuriye hamwe bifotoje bamwe barasutamye abandi barahagaze mu gihe harimo n'abunamye, abenshi muri bo bambaye amataburiya y'imyeru, mu gihe abandi bambaye imyenda isanzwe irimo amabara y'umukara n'ubururu.

Abantu bahagaze barebana mu maso, umwe yambaye agapira k'ubururu, afite akagozi mu ijosi, undi yambaye agashati k'umweru ahetse igikapu, hirya yabo hari abandi bantu benshi batandukanye b'urujya n'uruza ndetse n'ibyapa bihateretse.

Umwana wambaye agapira ka orange agakabutura k'ubururu mu kuboko kwe kw'iburyo afitemo igikombe cy'icyuma ari kuvoma imbere hari iriba rinini ririho robine ebyiri z'ibyuma ziri kumena amazi hirya y'iryo riba hari ibihuru.

Umuntu wambaye ijire ya kake, umupira w'umweru, ipantaro y'umukara. Arasutamye imbere ye hicaye abana benshi bambaye imipira ya oranje yanditseho amagambo y'umukara; arimo arabaha amata akoresheje inkongoro.

Abantu ubona ko bitabiriye inama bicaye ku ntebe z'imikara abandi bicaye ku ntebe za pulasitiki z'ubururu. Bambaye imyenda irimo amabara y'icyatsi, ubururu, umukara n'umweru. Ni ibihande bibiri hagati yabo harimo icyapa kirimo ibara ry'umweru n'ubururu gishushanyijemo umuntu.

Ivomero rusange bashyize ahantu kugira ngo abantu bavomeraga kure bajye baza kurivomaho bityo babone amazi mu buryo buboroheye, hari umugore ndetse n'umugabo bafite amajerekani y'umuhondo bari kuvoma.

Abantu biganjemo igitsina gore, bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, umukara, icyatsi ndetse na move, bari bicaye ku ntebe z'imbaho bari mu cyumba giteye irangi ry'umuhondo kimanitseho ibipapuro n'amafoto ku gikuta.

Abantu bateraniye hamwe biganjemo ababyeyi bambaye ibitenge ndetse n'amakanzu y'ibitenge , amajiri y'ubururu ndetse n'iyindi myenda ifite amabara atandukanye. Inyuma yabo hari inyubako ishakaje amategura.

Umwana ubona ko arimo arakaraba intoki kugira ngo azisukure, yambaye agakanzu k'igitenge, amaboko yombi afashe icupa ry'amazi arimo arakaraba, imbere ye hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Itsinda ry'abaganga bahagaze hamwe bazamuye amaboko yabo bafunze ibipfunsi, bambaye amatabura y'imyeru harimo n'umugore w'umuzungu wambaye ikanzu y'umutuku, bari mu cyumba giteye irange ry'umweru, gifite inzugi zisa nka shokora.

Abantu bari hamwe bishimye, bamwe bari gukoma amashyi abandi barambuye amaboko. Bambaye amataburiya y'ubururu ndetse bafite n'utuntu tubaranga mu ijosi ryabo, ubona ko ari abanyabuzima. Imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ubona ko bamwishimiye.

Abagore batatu bari ku iriba hari uwambaye igitenge ndetse n'igitambaro mu mutwe uri kudaha amazi mu ndobo nini iri imbere ye inyuma hari abandi bagore babiri harimo uwambaye agapira k'ubururu n'umutuku n'undi wambaye agapira k'umweru bafashe icyuma cy'iriba bariguhaga kugira ngo amazi azamuke.

Umugabo wunamye wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, ari gukaraba intoki ze kuri kandagira ukarabe yubakishijwe ibiti ariko iriho akabido k'umuhondo karimo amazi bityo arimo arakaraba amazi avuye muri ako kabido.

Abantu bahuriye hamwe baje gufata ubuvuzi bwabegerejwe bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, umuhondo, ubururu ndetse n'umukara hagati yabo hicaye umugabo wambaye itaburi y'umweru uri kubaha ubuvuzi.

Umuntu wambaye itaburiya y'ubururu n'igitambaro mumutwe we yicaye ku gitanda kuhande rw'iburyo n'ibumoso hahagaze abaganga bambaye amatabuririya y'umweru harimo umwe wambaye agakoresho mu ijosi kifashishwa mu gupima uko umutima utera n'undi wambaye ako gakoresho ariko bari kugashyira kuruwo murwayi bapi umuvuduko w'amaraso.

Umwana wunamye ari kunywesha ibiganza bye amazi, yambaye ishati irimo amabara asa n'ayagisirikare, ikabutura y'umutuku, ndetse n'ibipapa by'ubururu, imbereye hari iriba ririho robine ebyiri, imwe ni yo iri gusohora amazi, munsi ye hari indobo y'icyuma iri kugwamo amazi.

Umuntu usutamye, yambaye umupira wa oranje n'ipantaro y'umukara. Afashe akana na ko kambaye umupira wa oranje n'agapantaro k'ubururu, gahagaze ku munzani. Bakaba bari gupima ibiro bye kugira ngo barebe niba

Abantu bateraniye mu cyumba giteye irangi ry'umuhondo, bicaye mu ntebe z'imbaho bambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu, umweru n'ayandi, harimo abafite ibitabo ku bibero byabo n'abandi bafite ubusa.

Ibiganza bibiri bigaragara ko ari iby'umwana ukiri muto, birimo birakaraba byifashishije amazi ari kuva imbere yo mu ndobo, hirya hateretse isabune nayo yifashishije kugira ngo imyanda iveho neza mu ntoki.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda y'iniforume yiganjemo ibara rya kake baje ku iriba kuvoma bitwaje ibivomesho, birimo indobo n'utubido bifite ibara ry'umuhondo na ho iriba rifite robine eshatu zose zivamo amazi inyuma ndetse no ku ruhande rw'iriba hateye ibiti by'imikindo.

Umwana wambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara, arunamye ukuboko kw'iburyo gufashe kuri robine y'icyuma iri kuzana amazi, ari kuvoma mu kabido ke k'umweru inyuma ye hari abandi bantu baje kuvoma.

Itsinda ry'abantu bahagaze bari kwifotoza ryiganjemo abambaye amataburiya y'ubururu n'abandi bambaye imyenda isanzwe, harimo umugabo uhagaze hagati wambaye ikote rya kake ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umugore uhagaze wambaye ikanzu y'ibitenge irimo amabara atandukanye, ateruye umwana mu rubavu rwe rw'iburyo kandi afite anvilope mu maboko ye. Hirya ye muri icyo cyumba hicayemo abandi bagore benshi bataruye abana babo.

Urujya n'uruza rwiganjemo abana ndetse n'umugabo mukuru wambaye umupira wumutuku n'ipantaro yumukara n'ndi wambaye umupira w'umweru, bahuriye ku iriba rinini riri hagati mu mbuga mu giturage, iruhande rw'iryo riba hateretse amajerekani, amabase, amakarayi, n'ibindi bikoresho bazanye gutwaramo amazi.

Abaganga bateraniye hamwe, bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu n'udupfukamunwa, ubona ko bari mu cyumba cy'ibagiro, aho hagati yabo ku gitanda haryamye umuntu uri kuvurwa. Bakaba bari gufatanya kumwitaho kugira ngo bamuvure neza akire.

Abagabo babiri bicaye, umwe yambaye ikoti ry'umukara undi yambaye ikote rya beje, imbere yabo hari ameza manini hariho igitambaro cy'umuhondo, ayo meza akaba ateretseho ibikoresho byabo, amakaye, terefone, ndetse hateretseho n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro ndetse n'ipantaro y'umukara. Yasetse, ubona ko yishimye, ashikamiye ijerekani y'umuhondo yaje kuvoma. Imbere ye hari iriba rinini rifite robine ebyiri zimena amazi.

Umwana ubona ko wishimiye gukaraba intoki ze akuraho imyanda, yirinda indwara zituruka ku mwanda, yambaye ishati y'ubururu n'akabutura k'umukara, arunamye arimo arafungura robine, afashe ku ndobo iri imbere ye isa umweru ifite umupfundikizi w'ubururu, kugira ngo akarabe.

Umuntu wambaye imyenda y'ubururu n'agapira k'umweru, yahurije amaboko ye inyuma mu mugongo, imbere ye hari umugabo uhagaze wambaye agapfukamunwa, ufite impapuro mu ntoki, n'undi wicaye wambaye itaburiya y'umweru, imbere yabo hari imeza nini iriho igitambaro cy'umweru iteretseho mudasobwa n'ibindi bikoresho.

Abana basutamye harimo uwambaye agapira k'umutuku, n'undi wambaye ishati n'ipantaro bisa, bari gukaraba intoki zabo, iruhande rwabo hari iriba rinini ry'icyuma riri kuvamo amazi, bityo niyo bari kwifashisha bakaraba intoki zabo.

Itsinda ryabantu barimo urubyiruko rw'abasore n'inkumi bifotoje bahagaze bamwe bifashe mu mifuka y'amapantaro abandi bifashe mu biganza bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, icyatsi, ubururu, ndetse n'umuhondo.

Abantu bari hamwe biganjemo urubyiruko, bambaye udupira tw'ubururu hejuru kandi ndetse n'utuntu mu ijosi tubaranga, imbere yabo hari agatuti bashikamiye kariho ikirango cya unicef umuryango mpuzamahanga wita ku bana.

Itsinda ry'abantu bifotoje biganjemo abagore ndetse harimo n'abagabo, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umutuku, umukara, n'ubururu, inyuma yabo kandi hari inzu nini iteye irangi ry'ubururu iriho icyapa hejuru.

Abagabo babiri harimo uwambaye ikote risa umukara n'undi wambaye ikote rijya gusa umweru bakoranye mu biganza, iruhande rwabo hahagaze abandi bantu batandukanye, harimo umugabo wambaye ishati ya kake n'undi wambaye ikoti ry'umukara.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku, ingofero y'umweru n'agapfukamunwa, ari guha umwana akanini, yegeranye kandi n'abandi bantu batandukanye, harimo uwambaye umupira w'umuhondo, harimo uwambaye ikanzu y'umutuku iriho utunyugunyugu, ndetse n'undi wambaye umupira w'icyatsi.

Abantu bane bicaye ubona ko aho bari ari kwa muganga baje kwivuza, nyuma yabo hari urukuta rwubakijije amatafari ahiye, ruriho ibyapa biriho abantu baje kwivuza batandukanye.

Imodoka y'imbangukiragutabara iteye irangi ry'umweru ariko irimo utundi tubara nk'ubururu n'umutuku, yegeranye n'abantu b'urujya n'uruza, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'ayandi mabara. Inyuma yayo hari ihema ry'umweru ndetse n'inzu ishakaje amabati y'umutuku, hagati mu mbuga hateye idarapo ya Repubulika y'u Rwanda.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi, asa igikara amaso ye aratukuye kandi yarize afite n'ibimwira byamanutse mu mazuru ye, ubona ko afite agahinda gakabije.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro, ipantaro ya kacye, ahetse igikapu yegereye igikuta cy'amatafari, kiriho icyapa kinini kiririmo impuzangano y'ibara ry'umweru, icyo cyapa kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda kandi cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu.

Ababyeyi bateraniye hamwe bahetse abana bambaye imyenda ifite amabara y'umutuku, ubururu, umuhondo n'umweru, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye agapira k'umutuku n'umukara kandi imbere hari imeza iteretseho icupa ry'amazi, hari n'icyapa uwo mugabo ari gukoresha yigisha abo babyeyi.

Abana bari hamwe bambaye imyenda isa nabi iri mu mabara y'umukara, umweru, bafite utujerekani dusa umuhondo bagiye gushaka amazi, iruhande rwabo hari ibihuru ndetse n'igiti cyubatse igisharagati.

Abantu bahagaze ku murongo bifotoje, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru n'umukara, bafite ibyapa biri mu ibara rya oranje, icyatsi byanditseho amagambo arimo ibara ry'umweru, inyuma yabo hari inyubako ubusitani buteyemo ibiti bitandukanye, nk'imikindo.

Umuryango wicaye hamwe, bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, umweru, ubururu n'abandi babyeyi babiri bicaye bareba imbere bambaye ibitenge n'umwana wicaye hagati yabo. Inyuma yabo hari inzu ifite amadirishya y'umutuku, ifite n'umuryango ukinguye.

Abantu bicaye hamwe mu ntebe z'umutuku, harimo abagore n'abagabo bambaye imyenda irimo amabara y'iroza ubururu icyatsi n'ayandi, harimo umugore ufite indangururamajwi mu kuboko kwe, imbere yabo hateretse ameza y'umweru ariho uducupa tw'amazi na za mudasobwa.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara yubitse umutwe kandi yafashe amaboko ye, imbere ye hari ururabo ruri mu mabara y'umutuku, umweru n'icyatsi kibisi. Inyuma ye hari igikuta kinini cy'umukara cyanditseho amagambo y'umweru, naho mu ruhande rwe hari umuntu wambaye ijiri y'icyatsi.

Abantu bateraniye hamwe ubona ko bitabiriye umuhango runaka, higanjemo abagore bambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku, umukara ,n'umweru hagati yabo hari ameza manini hariho igitambaro cy'umweru ateretseho ibikoresho bari bari kwifashisha.

Abana bicaye hamwe bishimye harimo abazamuye amaboko abandi bipfumbase bambaye imyenda irimo amabara atandukanye, nk'umuhondo, umweru, umutuku, ubururu, ndetse n'icyatsi.

Umuntu wicaye hasi wambaye imyenda isa nabi kandi yacikaguritse, ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, mu ntoki ze harimo imyanda itandukanye nk'ibyatsi, amashashi n'ibindi, naho iruhande rwe hari ibicupa bihateretse, inkoni n'iyindi myanda.

Umugabo wicaye wambaye agapira k'umutuku ndetse n'agakabutura k'umukara, wambaye kandi amapingu ku maboko ye yombi, azengurutswe n'abantu batandukanye bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umukara ndetse n'amakanzu y'ibitenge, barimo baramushyira amafoto imbere ye ku bibero.

Itsinda ry'abantu bifotoje bahagaze bamwe imbere abandi inyuma bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umutuku n'umweru inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'ibindi birangantego bitandukanye kandi cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ahagana hejuru.

Itsinda rya'bantu biganjemo abagabo n'abagore. Bifotoje bamwe bicaye ku ntebe y'urubaho abandi bahagaze inyuma yabo, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, umukara, ubururu, n'ayandi iruhande rw'iyo foto barimo hari ibirango bitandukanye harimo n'ikiranga kaminuza.

Umugore wasetse wambaye isengeri y'umuhondo ya mtn ndetse n'agapira k'ubururu mu imbere. Ari mu iduka ricuruzwa ibintu bitandukanye harimo ibiribwa n'ibindi byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Umuntu wifashe mu biganza bye yambaye ikote ry'ubururu mo imbere harimo ikanzu y'igitenge gifite amabara y'umutuku n'ubururu, ari kureba hino, hirya hari icyapa cya oranje kiriho amagambo y'umweru.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge iri mu mabara y'umutuku n'umweru, inyuma ye hari iduka rinini, ricuruza ibintu bitandukanye by'umwihariko imiti, amavuta ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Umugore wikoreye igitebo kirimo imigozi y'ibijumba, arahagaze ari guseka, yambaye imyenda irimo utubara tw'umuhondo n'umukara, amaboko yombi afitemo isuka yakoresheje akura ibijumba.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru, akamuranga mu ijosi, afite ikaramu mu ntoki ye imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa , amacupa y'amazi, inyuma ye kandi hari abandi bantu batandukanye na bo bicaye bazengurutse ameza asa nkaye.

Itsinda ry'abantu biganjemo urubyiruko bambaye udupira tw'ubururu hejuru n'amapantaro y'umukara n'ubururu n'umutuku, hagati ya bo harimo umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara na karuvati wabafashe ku ntugu, k'urundi ruhande hari umuzungu wambaye ikoti rya peje n'ipantaro y'umukara.

Abantu bicaye hagati mu busitani mu ntebe za parasitike z'umweru, imbere yabo hari imodoka nini isa umweru iriho ikirangantego kiranga repubulika y'u Rwanda ndetse n'amagambo yanditse ari mu ibara ry'ubururu aranga minisiteri y'ubuzima yita ku burwayi bwo mu mutwe.

Abantu babiri bahagaze umwe yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, naho uri imbere ye yambaye ikanzu y'igitenge, afite isakoshi ndetse n'indangururamajwi. Hirya yaho hari abantu benshi bicaye mu ntebe bari kubitegereza.

Umugabo usa nabi cyane, wambaye ibishashi, ibyenda bicikaguritse uri mu myanda. Bigaragare ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Birakwiye rero ko abantu nk'aba ngaba bafatwa bakajyanwa mu bitaro byabugenewe kugira ngo bitabweho.

Umwana wambaye agapira k'umweru wikoreye amaboko uri kurira, iruhande rwe hari umugore wambaye agapira karimo uturugo tw'umukara n'uw'umuhondo ukenyeye igitenge kandi ufite inkwi mu kuboko kwe, hirya ye hari urujya n'uruza rw'abantu bashyize ibintu byabo hasi bigaragare ko ari impunzi.

Umwana waje kwivuza amenyo bityo kugira ngo ahabwe imiti, ibiganza bibiri byambaye uturindantoki bifite udukoresho twabugenewe, twifashishwa mu ku kuvura amenyo arimo aramusuzuma.

Umuntu wasetse ufite umusatsi w'umukara urimo utwuma imbere ye hari umuntu wambaye uturindantoki tw'umweru ufite agakoresho kariho amenyo nsimbura ashobora kwifashishwa mu gusimbura amenyo umuntu yakutse.

Umuntu mukuru wambaye agashati k'umweru n'ijipo y'umukara, ari kumwe n'abana bari mu ishuri kandi bambaye imyenda y'ishuri, bose bishimye barahagurutse bafite biswi mu ntoki zabo bazishyize hejuru.

Ubuvuzi bw'amenyo ni ubuvuzi buba bugomba kwitabwaho kandi umuntu akabukora yitonze kuko bushobora guteza ikibazo mu mutwe w'umuntu. Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, uturindantoki, afite utwuma mu ntoki ari gukoresha avura umwana uri imbere ye.

Umwana waje kwivuza amenyo, iruhande rwe hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru ndetse wambaye n'uturindantoki, afite kandi mu ntoki ze utwuma twifashishwa mu buvuzi bw'amenyo duteye imbere, tutamwangiza mu kanwa cyangwa.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa n'amadarubindi, afite ikaramu ari kwandika ku ikaye iri imbere ye iri ku meza, kandi kuri iyo meza hariho ibindi bikoresho bitandukanye, byifashishwa mu bushakashatsi bugezweho.

Icyumba kigari giteye irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu buvuzi bwateye imbere, urugero harimo nk'igitanda kiryamaho n'umurwayi, agatebe ndetse n'imashini ipima uko umurwayi ameze.

Abana bakiri bato na bo bagomba gutozwa kugira isuku yo mu kanwa bakiri batoya kugira ngo bazabikorane kandi bazakure amenyo asa neza, hano hari umwana wicaye ku ntebe y'ubururu, ufite uburoso bw'amenyo uri koza mu kanwa.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, amenyo ye arasa umweru, yasetse mu biganza bye byombi afitemo akagozi k'umweru, yagacishije hagati mu menyo ye ni akagozi bifashisha mu koza amenyo bagacisha hagati y'amenyo kugira ngo bakuremo imyanda iba yasigaye umuntu yiborosa.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara rya gisirikare yasetse afite amenyo y'umweru ukuboko kumwe gufashe agakoresho kariho amenyo yifashishwa nk'impindurangingo, naho urutoki rw'ukuboko kw'ibumoso rutunze kuri ako gakoresho.

Umugore washinyirize ufite amenyo y'umweru, yambaye agasengengeri k'umweru, mu biganza bye byombi afitemo akagozi ari gucisha mu menyo kamufasha gukura imyanda iba iri hagati y'amenyo.

Icyumba kigari giteye irangi rya beji, hejuru hari parafo kandi amatara ari yo ari kwaka. Harimo intebe eshatu zisa zifite ibara rya kake, inyuma yazo hari idirishya rinini ry'ikirahure kibonerana, naho kuruhande rw'iburyo n'ibumoso bw'izo ntebe hari urukarabiro.

Umugabo ufashe umwana ku rutugu wambaye itabara y'umweru n'agapfukamunwa, ari kwerekera umwana ku gikoresho kimeze nk'amenyo uburyo boza amenyo. Afite uburoso mu ntoki bwoza amenyo. Inyuma ya hari abandi bantu batatu bahahagaze harimo umugabo wifashe mu biganza bye n'umuzungu uri inyuma wifashe ahagana mu nkokora y'ukuboko kwe kw'iburyo.

Umugabo wambaye umwenda w'umukara, wo kurarana urimo uturongo tw'umweru, afite uburoso bw'amenyo, ari koza amenyo ye. Inyuma ye hari urugi ruriho irido ry'umutuku. Ari kwireba mu kirahure.

Umuryango ubona ko wishimye, ugizwe n'abana babiri bakiri bato, umugabo n'umugore ndetse n'umusaza n'umukecuru, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'ayandi.

Umusaza wambaye ishati ya kake, ku kuboko kwe kw'iburyo hariho akuma gapima umuvuduko w'amaraso, arimo arakanda amatushe ariho. Imbere ye hari imeza iri mu ibara rya shokora m'imbere hateretsemo agatebo.

Umukecuru wambaye agakote k'umweru ndetse n'agapira Kajya gusa ubururu yambaye amaherena, ari kureba ibinini afite mu kuboko kwe kw'ibumoso n'aho mu kuboko kwe kw'iburyo afitemo ikirahure cy'amazi.

Umusaza uri gukina n'umwana we aramuteruye, umusaza yambaye ishati yiganjemo ibara ry'ubururu irimo uturongo tw'umweru n'aho umwana ateruye yambaye agashati karimo amabara y'umutuku, umweru n'ubururu kandi afite agapupe mu ntoki ze.

Abantu ubona ko bishimye bicaye mu byatsi bari kuganira, harimo umugabo w'umuzungu utaruye umwana, harimo umukecuru wicaye ku ntebe y'umukara n'undi wicaye mu twatsi arimo araboha, kandi harimo n'abana bakiri bato.

Umusaza uri kugendera ku byuma kugira ngo bimufashe gutambuka neza, yambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara kandi akenyeye n'umukandara w'umweru mu nda. Iruhande rwe hari umugore uri kumufasha, wambaye imyenda y'ubururu, ubona ko ari we wita ku buzima bwe.

Umukecuru wicaye mu kagare k'abamugaye yambaye umupira wa oranje, amadarubindi n'igitambaro mu mutwe cy'umukara. Inyuma ye hari umukobwa wambaye ishati y'ubururu wamufashe ku rutugu.

Umusaza wambaye ishati y'umweru n'amadarubindi yicaye mu ntebe. Bamuhaye agakoresho gasa ubururu kifashishwa mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari umukobwa wambaye imyenda y'umutuku agakoresho kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima mu ijosi rye, ndetse n'akaranga akazi akora.

Umusaza wambaye ishati irimo uturongogo tw'umweru n'ubururu ufashe ku kuma kamufasha kugenda neza iruhande rwe hari umuforomo wambaye ishati y'ubururu n'agapira k'umweru imbere uri kubimufashamo bityo abashe kugenda neza ari mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye nk'akabati tereviziyo n'ibindi.

Umusaza wambaye ishati irimo amabara y'umutuku ndetse n'ubururu. Mu ntoki ze zombi afite agacupa k'umukara, yegeranye n'umukecuru wambaye ishati y'umweru, amadarubindi, ufite mudasobwa imbere ye, ari kuyikoresha. Naho kuri iyo meza ibegereye n'ubundi hariho impapuro n'utundi ducupa turimo ibinini.

Abantu bafatanye ku ntugu harimo umugabo wambaye ishati ya orange n'agapira ka gisirikare imbere, ari kumwe kandi n'umukobwa wambaye amadarubindi, ikote ry'ikoboyi risa ubururu n'agapira k'umweru mu imbere bari guseka, bishimye.

Umubyeyi n'umwana bari gukina kandi banaganira, bose bambaye udupira tw'umweru, imbere yabo hari ameza manini ariho udukinisho, barimo kwifashisha bakina, bari mu nzu iteye irange ry'umweru yegereye kandi ibikoni.

Abantu benshi bari mu muhanda wa kaburimbo, barimo baragenda, batatu muri bo bambaye imipira y'ubururu, amapantaro y'umukara, n'aho babiri bari kumwe umwe yambaye umupira w'umweru, amadarubindi, undi uri inyuma yambaye umupira w'umukara, bari mu myitozo ngororamubiri hirya y'umuhanda hari ubusitani.

Abantu bakuze bari mu myitozo ngororamubiri bityo bikabafasha kugira ubuzima bwiza, bambaye udupira turimo amabara y'umweru, umutuku, icyatsi, n'ubururu kandi mu ntoki zabo bafite udukoresho tw'umutuku, umuhondo ndetse na oranje tubafasha gukora izo siporo.

Umukecuru wicaye wambaye ishati y'umweru yasetse, umusatsi we urasa umweru. Inyuma ye hari undi mugore wasetse wambaye ishati y'icyatsi iriho uturongo tw'umweru ahagana ku ijosi no ku maboko.

Abantu biganjemo ababyeyi bambaye imipira y'mweruru amajipo y'imikara harimo abandi babiri urimbere wambaye ikanzu yigitenge n'undi uri inyuma gato wambaye ishati y'ubururu n'ijipo y'umukara barimo barabyina bafite kandi mu ntoki zabo ibintu bitandukanye.

Kwita ku bageze mu myaka y'izabukuru ni ingenzi kandi ni byiza ku buzima bwabo kuko bituma batigunga cyangwa se badaheranwa. Umukecuru wambaye agapira karimo amabara y'umukara, afashe mu kiganza cy'umuntu uri kumwitaho, wambaye itabuririya y'ubururu. Ufite n'agakoresho mu ijosi rye kita cyangwa se kamenya uko umutima utera.

Umusaza wambaye ishati y'umutuku, amadarubindi, yifashe ku kananwa afite kandi ikaramu isa umukara n'umweru mu ntoki ze, n'aho mu kuboko kw'iburyo afitemo agatabo gatoya, arimo arakina umukino wo guhuza inyuguti hakavamo amagambo.

Umugore wambaye umupira w'umweru n'amadarubindi, yifashishije icyuma ari gukata amashu, n'izindi mboga, iruhande rwe hari undi wifashe ku itama wambaye agapira k'ubururu, ufashe ku gisorori kinini cy'ikirahure.

Abantu biganjemo ababyeyi bambaye imyenda ifite amabara y'ubururu, umutuku, umukara ndetse n'andi mabara bose barunamye bari guseka, inyuma yabo hari igitebo kinini, bari mu muririma w'icyayi barimo barasarura.

Itsinda ry'abantu biganjemo abakuze, harimo abagore n'abagabo bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umuhondo, ubururu n'icyatsi; bahagaze mu muririma wamasaka bazamuye ibiganza byabo bamwe bafite amasuka, terefone n'ibindi.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu afite ibinini mu ntoki ze iruhande rwe hari umukecuru wambaye agapira k'umutuku barikumwe, ari kumwereka imiti ye agomba kunywa ku gapapuro, imeza iri imbere yabo iteretseho uducupa tw'imiti ndetse n'ikirahure cy'amazi anywesha.

Umuryango w'abantu batatu bari hamwe bishimye bari guseka. Umwe yambaye agapira k'umuhondo naho uri hagati yambaye agapira gafite ibara ry'ivu. Umwana begeranye afite imboga mu ntoki, yambaye agapira k'umweru. Imbere yabo hari igikoni kiriho ibintu byinshi bitandukanye nk'imboga zo guteka, ibyuma n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gikoni.

Umubyeyi wicaye wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'akajeri k'umukara n'ijipo y'ubururu, yegeranye n'undi mugore wamukoze ku kiganza wambaye agashati k'ubururu ndetse wicaye hasi ari munzu iteye irangi ry'umweru.

Umusaza wambaye ishati y'umutuku amadarubindi, mu ntoki ze zombi afitemo icyuma ndetse n'imfurukanya, yegeranye n'umugore wambaye ishati y'uburu n'agapira k'umweru nawe ufite icyuma n'ifurukanya, imbere yabo hari ameza manini hariho amasahani y'ibiryo ndetse n'ikirahure cy'amazi barimo barafata amafunguro.

Umusaza ndetse n'umugore ukuze begeranye ubona ko bishimye bari gukina imikino, bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, kake, umutuku. Imbere y'abo ku meza hari udukoresho bari kwifashisha bakina.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo ipantaro y'ubururu yicaye mu kagare gasa umukara k'abamugaye iruhande rwe hari umwana barikumwe wambaye agapira k'icyatsi n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu wicaye mu ntebe z'imifariso.

Umusaza wambaye agapira k'umuhondo hejuru y'umukara wicaye mu kagare k'amapine abiri k'abamugaye batabasha kugenda, inyuma ye hari umuforomo wambaye imyenda y'ubururu ndetse ufite n'agakoresho mu ijosi rye k'umukara kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima.

Abantu babiri bahagaze imbere bafite ibyapa birimo ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, umwe yambaye ishati karoko n'ipantaro ya kaki, begereye intebe z'umweru n'imeteretse ibikoresho bitandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, ingofero n'amadarubindi, mu maboko yombi afite icyapa kiri mu muzankano y'ibara ry'umweru cyanditseho amagambo arimo ibara ry'umutuku avuga ngo batange inkingo z'icyorezo cy'ubushita bw'inkende vuba vuba.

Abantu batatu bambaye udupfukamunwa, bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, icyatsi n'umukara, ubona ko ari abari bashinzwe kwita ku bantu barwaye icyorezo cya Korona virusi muri Afurika.

Abagabo babiri bahagaze imbere bambaye amakoti y'ubururu amashati y'umweru, bose bafite ibitabo mu ntoki zabo kandi bakoranye mu biganza, inyuma yabo hari icyapa kinini gisa umweru kiriho ibirango byinshi bya repubulika y'u Rwanda.

Umugabo wifashe mu mayunguyungu wambaye ikoti ry'umukara, akamuranga mu ijosi n'ishati y'ubururu. Yegeranye n'umukobwa wambaye agakanzu karimo amabara atandukanye nawe wambaye mu ijosi rye akamuranga, inyuma yaho hari icyapa kiriho amagambo arimo ibara ry'umukara ndetse n'ibirango bitandukanye.

Abantu urujya n'uruza, biganjemo urubyiruko bambaye imyenda y'imyeru hejuru, imbere yabo bose hari abantu bafashe icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku kiriho ikimenyetso cy'umutuku cyifashishwa mu kurwanya sida.

Ikirango kiri mu mpuzankano y'ibara ry'icyatsi. Kirimo imibare, amagambo n'ikimenyetso. Umubare urimo ni gatatu. Amagambo arimo ari mu ibara ry'umweru aravuga ngo : "Kugira ubuzima bwiza n'imibereho myiza." Hariho kandi ikimenyetso cy'umurongo uvunaguye, ugaragaza imiterere y'umutima.

Abantu bifotoje ni benshi bamwe baricaye abandi bahagaze inyuma yabo, bose bafite amafoto mu ntoki zabo, imbere yabo hari ameza manini ariho ibitambaro by'umweru bateretseho ibikoresho bitandukanye nk'amakaye, amasakoshi n'ibindi.

Abantu bateraniye hamwe mu nama, bicaye mu ntebe z'umutuku imbere yabo hari ameza manini ariho igitambaro cy'umweru ateretseho ibikoresho urugero nka mudasobwa, uducupa tw'amazi, amakaye n'ibindi, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikoti ry'umukara ufite indangururamajwi.

Abantu bahagaze ku murongo bifotoje; harimo abifashe mu biganza, abandi bahagaze bemye. Bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umweru, ubururu, kacye n'ayandi; kandi bambaye utubaranga mu ijosi ryabo. Inyuma yabo hari ibyapa bibiri bitandukanye, biri mu mabara y'umutuku n'umweru.

Itsinda ry'abantu bifotoje bamwe bicaye abandi bahagaze inyuma yabo, bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu umweru ndetse n'umukara. Inyuma yabo hari icyapa kinini cyane, kiriho ikiranganteko cya Repubulika y'u Rwanda n'amagambo yanditseho mu ibara ry'icyatsi.

Abantu bateraniye hamwe biganjemo urubyiruko bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umukara n'ubururu, imbere yabo hari ameza manini hariho ibitambaro biri mu mabara atandukanye kandi ayo meza ateretseho ibikoresho byabo nka mudasobwa, telefone n'amakaye yabo.

Abantu ubona ko bari gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku muntu bamushyira ku gatanda kugira ngo bamutware kwa muganga cyangwa se bamwinjize mu modoka bamujyane mu bitaro, bambaye amataburiya y'umweru, abandi bambaye amajire y'icyatsi.

Abantu babiri bambaye amashashi y'ubururu, utugofero mu mutwe tw'umweru n'uturindantoki tw'umweru imbere yabo hicaye umusaza wambaye ikanzu y'umukara n'akagofero k'ubururu wararamye kandi wasamye hirya yaho hari ihema ry'umweru n'imeza iteretseho ibikoresho bari gukoresha.

Inyubako yubatswe nk'uruziga, ifite ibara ry'ivu hagati harimo ibara ry'hondo n'amadirishya y'umukara, imbere yayo hari ubusitani n'imbuga nini yubakishije amapave n'aho hirya yoyo hari indi nyubako ndende yu yabakishije amatafari ahiye.

Inyubako ngari kandi ndende iteye irangi ry'umweru ariko ifite ibirahure binini bibonerana byiganjemo ibara ry'ubururu, imbere y'iyo nzu hari ubusitani bugari kandi hateyemo n'ibiti by'imikindo.

Umuntu wambaye imyenda y'ubururu bwerurutse wicaye mu kagare gasa umukara k'abamugaye batabasha kugenda, imbere ye hari inzira y'amapave n'ubusitani, hirya ye hari inzu iteye irangi ry'umweru ndetse n'ikigega gisa umukara.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa arunamye, iruhande rwe hari umuntu uryamye ku gitanda cy'ubururu wambaye ipantaro ya kake, ishati ya karokaro n'agapfukamunwa k'umukara. Hirya yabo hari abandi bantu baryamye kuri ibyo bitanda munsi y'ihema ry'umweru, bigaragare ko bari guhabwa ubuvuzi runaka.

Abantu babiri bambaye amataburuya y'umweru hejuru barimo baragenda mu kabaraza k'inzu barimo yubakishije amabuye, iyo nzu kandi ituriye ubusitani bunini buri imbere yayo.

Icyumba kirekire kirimo amamashini afunze, hariho utumenyetso tw'ubururu n'umuhondo, hejuru hari amatara ari kwaka ibara ry'umweru, naho hakurya hari izindi mashini ziri ku murongo zitondekanye.

Umuryango werekeza mu cyumba kigari cy'ibagiro, kirimo ibikoresho byifashishwa mu gihe umuganga ari kubaga nk'igitanda, itara riri hejuru y'igitanda ritanga urumuri n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru ufite umusatsi muremure umugera mu mugongo, yambaye kandi agapfukamunwa k'umukara n'amadarubindi, imbere ye afite akabeba ka mudasobwa kandi ku meza ari imbere ye hateretse mudasobwa isa umweru n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Icyumba giteye irangi ryumweru kukuta kandi amanitseho n'isaha, kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bugezweho, nk'igitanda gisaba umukara, ndetse n'imashini zifite tereviziyo ebyiri, ziba zigaragaza uko ubuzima bw'umurwayi uharwariye, buhagaze.

Abagabo babiri bambaye amataburiya y'umweru udupfukamunwa tw'ubururu imbere yabo hari imashini nini ifite ibara ry'umweru, umukara ndetse n'ubururu hariho televiziyo nini bari kureberaho igaragaza ibisubizo cyangwa se ibimenyetso baba bafashe, bityo bakagaragaza uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Inyubako yanditseho inzu y'ababyeyi, bigaraga ko hari aho ababyeyi babyarira, yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati y'ubururu, ifite urugo rw'ibyuma bisa umutuku.

Icyumba cyagenewe gukoreramo imyitozo ngororamubiri, kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, harimo ibyuma baterura, ibyo birukaho n'ibyo banyonga.

Inyubako ifite inzugi ziri mu ibara rya shokora. Hejuru y'urwo rugi hari amadirishya abiri manini, arimo ibirahure bitabonerana. Naho hejuru y'idirishya hari icyapa kinini, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Inzu iteye irangi ry'umuhondo, ifite amadirishya asezeranye ry'umweru, ifite ibaraza ndetse rikotirije ibyuma by'umweru, imbere yayo hari icyapa kinini cyanditse amagambo avuga ngo inzu y'ababyeyi yimaniya, imbere yayo haparitse amamodoka.

Abantu bane b'igitsina gore bahagaze, bambaye imyenda y'ubururu n'utubaranga mu ijosi ndetse n'udupfukamunwa, inyuma ya bo hari inzu isize ibara ry'umweru uruhande rumwe rundi ruhande ikaba isize ibara rya orange kandi yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu avuga ngo inzu y'ababyeyi.

Icyumba kigari kirimo utubati duteretsemo imiti itandukanye inywebwa, iyisigwa, iri mu ducupa n'indi iri mudukarito, imbere y'utwo tubati hari ibara ry'umweru ririho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi avuga ngo "Inzu igurisha imiti".

Inyubako yubakiye muyindi irasa umweru ifite amadirishya y'umukara afite ibirahure bisa ubururu ahagana mu nguni yayo harasa icyatsi indi yisakaye hejuru isakaje ibyuma n'amabati.

Inyubako iteye irangi ry'umweru, ishakakaje amabati asa ubururu igeretse rimwe, irimo abantu b'urujya n'uruza, hagati iteye irangi ry'umuhondo ndetse n'icyapa kirimo ibara ry'umweru cyanditseho amagambo y'umukara avuga ngo, ikigo nderabuzima cya Nyarusange.

Abantu babiri baje gusura umurwayi, bambaye imyenda irimo amabara y'iroza, move n'umukara n'aho umurwayi aryamye ku gitanda yambaye agakanzu kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Icyumba kigari cyahariwe ubuvuzi bugezweho kirimo imashini zitandukanye zivura abarwayi urugero, ni nk'imashini nini y'icyuma inyuzwamo umurwayi kugira ngo barebe uko mu bice bye by'umubiri hameze.

Ubuzima bwerekeye koza ndetse no kugira isuku amenyo umwana wambaye ishati y'icyatsi wagiranye n'umugabo wambaye taburiya y'umweru bafite igikoresho ndetse n'uburoso bw'amenyo bari kwiga uko babukoresha boza amenyo, inyuma yabo hari abandi bantu bagera kuri bane harimo umusore wambaye ikote wifashe ibiganza n'abandi bagore.

Umunyonzi wambayepi w'ubururu wari utwaye umuntu wambaye agapira ka move ufite indobo y'ubururu, hiryabo hari inyubako isakaje amabati y'umutuku, muri koridori yayo harimo urujya n'uruza rw'abantubona ko baje kwivuza bitewe n'uko iyo nzu hejuru yanditseho ko ari ahantuh gisenyi bavurira.

Itsinda ry'abaganga bambaye imyenda y'ubururu, utugofero tw'icyatsi, ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu, bambaye kandi uturindantoki tw'umweru, imbere yabo hari umurwayi, uryamye ku gitanda kiriho amashuka y'umweru, nawe wambaye ikanzu y'ubururu, bagiye kubaga, hejuru ye hari icyuma cyifashishwa mu kureba utunyangingo dutoya tw'umubiri.

Inyubako isa umuhondo ndetse ifite n'ibara ry'ivu izengurutse, imbere yayo hari ubusitani bunini naho hirya yayo hari indi nzu yubakishije amatafari ahiye, ahagana mu buryo bwayo hari imbuga nini yubakishije amapave.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, yafashe ku maboko y'umwana wambaye ipantaro y'umukara, ariko wambaye ubusa hejuru, wicaye ku gitanda yaje kwivuza, kandi ku rundi ruhande hicaye umugabo wambaye igitambaro mu mutwe n'ikabutura y'umukara.

Abantu bahagaze muburyo butandukanye bambaye imyenda yomumabara y'umweru n'umukara ndetse n'ubururu harimo abahagaze kandi bafite inkoni zifashishwa n'abantu bafite ubumuga bwubuhumyi iruhande rwaho hari inzu yubakishije amatafari ahiye

Korodoro ndende isize ibara ry'umweru ryiganje, hejuru ifite parafu irimo amatara ari kwaka ibara ry'umweru, harimo ibikoresho kandi bitandukanye nk'imeza ziteretseho imashini n'ibindi. Hakuno ku ruhande rw'ibumoso hari utubati turimo imiti ndetse n'amaraso.

Itsinda ry'abaganga bambaye amataburiya y'umweru bari gutanga ubuvuzi ku bantu bagiye batandukanye, harimo nk'uwicaye bari gutera urushinge wegereye imashini igaragaza uko umubiri we uhagaze.

Icyumba kigari cyiganjemo ibara ry'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye nk'ibitanda bifite matera z'umutuku, intebe zisa umutuku ndetse n'ibindi bikoresho nk'imeza iteretseho mudasobwa, utubati, icyuma gisohora impapuro ndetse n'ibindi.

Utubati tureture tw'ibyuma turimo amakarito y'imiti itandukanye, ayo makarito arimo imiti ari mu mabara atandukanye nk'umutuku, ubururu, umweru, icyatsi, ndetse n'ayandi.

Inyubako iteye irangi ry'umweru ariko isakaje amabati y'ubururu kandi ifite amadirishya y'icyatsi, yubatse hagati mu busitani bw'ibyatsi kandi muri ubwo ubusitani hateyemo igiti, iruhande rw'ubwo busitani hari akayira gafite akabaraza.

Itsinda ry'abaforomo basutamye bambaye amadabure y'ubururu inyuma yabo hahagaze abandi bantu batandukanye bambaye imyenda irimo ibara ry'umutuku umukara ndetse n'umweru bari mu ibaraza ry'inzu iri inyuma yabo yubakisha amatafari ahiye kandi iteye irangi ry'umuhondo inasakaje amabati y'ubururu.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye. Iteye irangi ry'umweru ahagana ku muzenguruko wayo, kandi handitseho amagambo y'ubururu avuga ngo, inzu y'ababyeyi. Iyo nyubako ifite inzugi n'amadirishya bisa umweru. Ikorotirije ibyuma bisa umutuku.

Icyumba kigari cyahariwe ubuvuzi buteye imbere bukoreshejwe ikoranabuhanga, hagati harimo igitanda kiryamyeho umuntu worosheho ishuka y'umweru n'aho ku ruhande hari imashini zitandukanye zifashishwa mu buvuzi hapimwa umurwayi uko ubuzima bwe buhagaze.

Icyumba kigari giteye irangi ry'umweru cyahariwe ubuvuzi buteye imbere, kirimo ibikoresho nk'igitanda kiryamwaho n'umurwayi, imashini ipima uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze icyuma cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri umuntu akiyirukaho ndetse na za mudasobwa.

Inyubako nini iteyemo irangi rijya gusa nk'iry'ivu, ifite parafo isa umuhondo, hagati harimo inkingi ifitemo ahantu wicara, handitseho amagambo y'umweru, hakurya ku gikuta handitseho amagambo y'ubururu ndetse na yo asa nk'ivu, avuga ngo ibitaro bya Regasi.

Inzu iteye irangi ry'umweru ku ibikuta ariko ifite parafu irimo amabara y'umuhondo ndetse na orange ifite inkingi ebyiri hagati kandi harimo intebe z'imikara ndetse n'izindi zimbaho zifite imisego ijya gusa umuhondo.

Inyubako irimo ibyumba bigiye bigabanyijemo ibikuta, harimo intebe z'imyeru, kandi biteye irangi ry'umweru ku bikuta, muri parafu harimo n'amatara manini yaka ibara ry'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirekire kirimo ibitanda ubona ko ari bishyashya bizajya byifashishwa mu buvuzi. Bityo akaba abantu bazajya babona aho baryama mu gihe bagikurikiranwa n'abaganga.

Ibikoresho bitandukanye harimo ibiterurwa harimo ikoreshwa umuntu yiruka, harimo ibikoresho umuntu anyonga, byifashishwa mu myitozo ngororamubiri biri mu nzu iteye irangi ry'umweru ku bikuta no muri parafo izwi ku izina rya jimu.

Inyubako iteye irangi ry'mweru ariko ahagana hagati handitsemo amagambo harimo ibara ry'umukara imbere yayo hari inzira zubakijije amatafari ahiye kandi muri iyo nzira harimo umugabo wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara iruhande rw'iyo nzira iburyo n'ibumoso hari ubusitani buteyemo ibiti.

Icyumba kigari cyiganjemo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bugezweho, harimo urugero nk'ibitanda, imashini zifashishwa mu gupima ndetse no kureba uko ubuzima bw'umurwayi uharwariye buhagaze.

Inyubako ndende yubakishije amatafari ifite amadirishya manini y'ibirahure, hejuru hari icyapa kinini kiriho amagambo y'ubururu ndetse n'andi y'umukara. Mu mbuga yayo hari uruzitiro rw'ibyuma kandi harimo ibyapa byinshi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda biryamwaho n'abarwayi b'indembe, hejuru y'ibyo bitanda hari inzitiramibu zisa umweru, na ho imbere ya buri gitanda hari irido ry'ubururu rituma abaharwaye batagaragara.

Umubyeyi uhetse umwana ubona ko yari amuzanye mu bitaro bya kigina kugira yitabweho. Akaba ari umuryango werekeza ufite porotaye nini y'icyuma.

Icyumba kigari giteye irangi ry'umweru, kirimo kwakamo amatara arimo ibara ry'umweru. kirimo ibikoresho bitandukanye nko gukarabiro, utubati dutukwamo ibikoresho bitandukanye, ingarani ishyirwamo imyanda, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inzu yubakishije amatafari, ifite urugi runini rw'icyuma rurimo ibirahure binini bitabonerana, hejuru y'urugi hari amagambo yanditseho yandikishijwe inyuguti ziri mu mabara atandukanye nk'umutuku, ubururu ndetse n'umuhondo.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru iriho utubara twa move ku kuboko no ku mifuka, kandi yambaye n'uturindantoki tw'umweru, afite agakoresho kifashishwa mu kumva uko umwana uri mu nda y'umubyeyi umutwite ameze.

Itsinda ry'abantu bambaye amatabuririya y'umweru hari abahagaze abandi bicaye hagati yabo hari umwe wunamye ufite ibikoresho byifashishwa mu bushakashatsi bw'imiti imbere yabo harimo nini iteretseho ibikoresho bitandukanye nk'impapuro z'isuku, ibikoresho by'ibirahure byifashishwa mu bushakashatsi akabati n'ibindi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, utunze ukuboko kwe ku cyapa kinini kiri imbere kiriho amabara y'umutuku n'umweru, Kandi cyanditseho amagambo atandukanye, n'umubu ushushanyijeho. Imbere muri icyo cyumba kandi harimo abandi bantu bicaye bambaye umupira w'umutuku ndetse n'ameza n'intebe biteye muri icyo cyumba.

Inyubako iriho icyapa hejuru kiri mu magambo yi'cyatsi n'umukara n'ubururu, muri koridoro yayo hahagaze umuntu wambaye ishati y'umweru, ndetse haparitse na moto zitwara abagenzi.

Umuntu uryamye ugaramye yambaye agapira k'umweru, ingofero ndetse n'agapfukamunwa k'umukara, iruhande rwe hari umugore wunamye wambaye itaburiya y'umweru abona ko arimo aramufata amaraso kugira ngo amupime.

Inzira yerekeza ku nyubako ziri imbere zisakaje amabati y'ubururu kandi zubakishije amatafari ahiye, kuri uwo muhanda hariho amatara awumurikira, ndetse imbere hari icyapa cyerekana ko uba uri kujya mu bitaro bya Kabgayi.

Inyubako ihagaze iteye irangi ry'umweru imbere yayo haparitse imodoka y'umweru ndetse n'indi y'umukara, ahagana mo imbere ifite ibirahure by'umweru kandi binini.

Inyubako ziri kumwe zisize amabara y'umweru, imbere hariho ibikuta byubakishije amatafari ahiye. Ifite amadirishya y'ibirahure. Haruguru yazo hari umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu.

Icyumba kigari giteye irangi ry'umweru cyahariwe ubuvuzi bukoreshejwe ibyuma by'ikoranabuhanga, hagati harimo igitanda kiriho amashupa y'umweru, hejuru yacyo kandi hari imashini nini itanga urumuri, mu gihe umurwayi ari kwitabwaho. Muri icyo cyumba kandi harimo abantu batandukanye barimo abambaye imyenda y'ubururu n'umweru.

Abantu bambaye amataburiya y'umweru bari gufasha abantu baje gushaka ubuvuzi bw'ibanze, urugero harimo nk'umukecuru wicaye mu kagari k'umukara k'ababana n'ubumuga bwo kutagenda, iruhande rwe hari abandi bicaye mu ntebe z'imikara, imbere ya bo hari ameza manini, hari igitambaro cy'ubururu; imeza kandi iteretseho ibikoresho bitandukanye nk'amacupa y'amazi n'ibindi.

Inyubako iteye irangi ry'umweru, isakaje amabati y'umweru, imbere yayo hari abantu bahahagaze batandukanye, iyo nyubako kandi ifite amagambo yanditse ku kabaraza kayo ndetse ari mu ibara ry'umuhondo.

Inyubako ndende iteye irangi ry'iroza mu gice cyo hejuru; naho igice cyo hasi iteye irangi ry'umukara. Imbere yayo mu ibaraza hateye intebe eshatu z'umutuku; naho imbere y'iryo baraza hari imbuga nini irimo ibyapa ndetse n'ubusitani.

Inyubako ngari iteye irange ry'umweru inyuma, ifitemo kandi utubara t'ubururu, amadirishya ya yo arasa umukara, imbuga ya yo ni kaburimbo kandi hari n'ubusitani ndetse n'ibiti bihateye by'imikindo, mu mbuga ya yo kandi haparitse imodoka.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri ubona ko yari ananiwe, akaba ari kunywa amazi, yambaye agapira k'umweru ku rutugu rwe afite agatambaro bihananguza gasa umuhondo, ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe icupa ry'amazi risa ubururu arimo kunywa.

Umugabo uryamye ugaramye yambaye udukomo ku maboko yombi afite terefone mu kuboko kwew'iburyo yambaye kandi agapira k'ubururu ikabutura y'umweru irimo utubara tw'umutuku akagururukamwe karambuye kandi karahinnye iruhande rwe hari umugabo wamufashe akaguru k'ibumoso ari kukagorora.

Umuntu wicaye warambije amaguru yombi arunamye amaboko yombi yayarambuye hejuru y'ibirenge bye afite umusatsi w'umukara umugera mu mugongo yambaye agasengeri ndetse n'ipantaro bisa ahantu ari harasa umweru dede.

Umugabo wambaye agapira gasa nka kake arararamye afite icupa ry'amazi mu kuboko kwe kw'iburyo ari kuyanywa. Bigaragare ko yari ari mu myitozo ngororamubiri bityo akaba yararuhutse ngo anywe amazi.

Agakapu gasa icyatsi kagenewe gutwaramo imiti ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, muri ibyo bikoresho harimo nk'ibinini, ibipfuko, inshinge ndetse n'ibindi.

Imbuto ndetse n'imboga zitandukanye zakwifashishwa n'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri. Mu mbuto harimo nk'imineke, pome, amaronji n'ibindi, naho mu mboga harimo nk'amashu, hakabamo kokomba ndetse na pavuro. Hirya yaho hakaba hari ibyuma bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Ikarito ubona ko irimo umuti woza amenyo, iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu handitseho kandi amagambo menshi ari mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Agakoresho kifashishwa kwa muganga bavura umuntu uba wavunitse ijosi, gafite amabara atandukanye arimo umuhondo, umweru, ubururu ndetse gafite n'icyapa ku ruhande kirimo umuhondo n'umweru kiri mu ruziga.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri yambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara iciyemo uturongo tw'umweru, ukuboko kwe yagufatishije ku ivi, ry'iburyo naho ukuguru kwe kw'ibumoso kuri inyuma ye.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri uzamuye amaboko ye yombi, yarasutse kandi yambaye agatambaro k'umukara ku mutwe we, imyitozo ngororamubiri ifasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Umuntu wicaye arambije ukuguru kwe kw'iburyo yahinnye ukw'ibumoso, yarambuye ukuboko kwe kumwe yagukojeje ku kirenge cy'ukuguru kw'iburyo, yambaye agapira ka oranje ndetse n'ipantaro y'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Imodoka y'imbagukiragutabara iteye irangi ry'umweru iriho kandi ibinyoteri biri mu ibara ry'umutuku ifite ipine ry'umukara inyuma yayo iri mu muhanda wa kaburimbo iri kugenda imbere yayo hari urukuta rw'amabuye.

Umugabo wambaye agashati k'umweru n'akabutura k'umukara karimo urongo tw'umutuku ari mu myitozo ngororamubiri, hirya ye hari umugore usutamye wambaye agapira ka beshi n'ipantaro y'umukara bari mu cyumba cyagenewe gukoreramo imyitozo ngororamubiri kizwi ku izina rya jimu.

Umuntu ubona ko ashobora kuba yagize ikibazo cy'impanuka wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'ubururu, ateruwe n'abagabo babiri bambaye amajire y'umutuku n'udupira tw'umweru, barimo baramwinjiza mu modoka kugira ngo bamwerekeze kwa muganga hakiri kare bityo kugira ngo yitabweho.

Umugabo uraramye yambaye agapira k'umweru ndetse na ekuteri mu matwi z'umweru, akaboko ke k'iburyo kambaye isaha kandi afite agacupa gafite umupfundikizo w'ubururu, arimo aranywa amazi.

Abantu babiri begeranye harimo uwicaye mu ntebe wambaye imyenda y'umukara uri kunywa amazi, iruhande rwe hari undi muntu uhagaze uri kwigorora wambaye agasengeri k'umweru ikabutura y'umukara aciyemo uturongo tw'umweru hasi imbere yabo bahateretse ibikapu byabo.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'undi wambaye agapira ka gisirikare n'ipantaro y'umukara, uwicaye harimo arateruza akaguru ke icyuma cyifashishwa mu guurura ndetse no mu kurambura imitsi y'amaguru, hirya yabo kandi hari akabati karimo utwuma twinshi turimo ibara ry'umukara ndetse n'umutuku.

Umugabo uryamye ugaramye wifashe mu gatuza, yambaye agapira k'umweru n'ikabutura y'ubururu irimo uturongo tw'umweru n'icyatsi, hari umugabo wicaye ku ruhande rwe w'umuzungu uri kugenda amumasa mu itako kugira ngo agorore imitsi.

Umuntu wicaye mu ntebe zifite imifariso y'umweru yambaye umupira wa oranje arunamye inkokora ze yazishyize ku mavi ye, ahagana mu ivi rye ry'iburyo harimo igipfuko cy'umweru bisa nkaho yaguye cyangwa se yakomeretse akajya kwa muganga kwipfukisha.

Umuntu ubyutse uri kwinanura wambaye utwenda tw'umukara, agasengeri n'ipantaro kandi yicaye ku buriri buriho ibiringiti biri mu ibara ry'umweru ndetse n'irindi rijya gusa nk'ivu, mu nzu ye hateye ibara ry'umweru.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, harimo agakapu gasaba umutuku kariho ikimenyetso cy'umusaraba kirimo ibara ry'umweru bigendamo, harimo ibipfuko, harimo uturindantoki, harimo ibinini, inshinge, umukasi n'ibindi.

Abantu babiri harimo umugabo n'umugore bateranye umugongo bose bari kunywa amazi ari muducupa bambaye udupira dufite amabara atandukanye urugero nk'umugabo we yambaye agapira karimo ibara ry'umweru mu gihe umugore yambaye agapi.

Amacupa atatu asa kandi ameze kimwe, ariho udupapuro inyuma turi mu mabara atandukanye arimo nk'ubururu, umutuku, umweru n'ayandi. Kandi kandiditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, umweru n'umuhondo.

Uruhurirane rw'ibintu bitandukanye birimo inkweto zo kwambara, amasogisi, harimo udukoresho dutandukanye twifashishwa haba mu kumva umuziki, harimo amadarubindi, harimo ibice by'abantu nk'amaguru ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Gukora imyitozo ngororamubiri kandi ufata indyo yuzuye unakoresha ibyuma byabugenewe ni ingenzi. Hano hari imbuto nk'imineke, inkeri, hakaba ibikomoka ku mboga nk'amashu, pavuro n'imija, hakaba ibikomoka ku matungo nk'inyama n'amagi ndetse n'impeke zirimo amasaka.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto yicaye yarambije ukuguru kwe kw'iburyo naho ukw'ibumoso yaguhinnye yarambuye kandi amaboko yombi ku kuguru kwe kw'iburyo ari mu myitozo ngororamubiri iruhande rwe hari ubusitani.

Umugabo wambaye itabuririya y'umweru kandi ufite agakoresho ku ijosi rye gasa umukara kifashishwa mu gupima uko umutima utera, mu biganza bye byombi afitemo umupira ufite ibara ry'umutuku wifashishwa mu mukino uzwi nka rugubi.

Umugabo wicaye kuri esikariye wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara; ndetse ufite n'aka esuwime k'umuhondo mu ijosi rye; afite terefone mu ntoki kandi afite n'icupa ry'amazi ari kuyanywa.

Umukobwa, wambaye isengero ndetse n'ipantaro y'umukara, yambaye inkweto z'umweru ndetse na ekuteri mu matwi, ukuboko kwe yakurambuye gufashe ku nkweto ze, yicaye ahinnye akaguru kamwe akandi kararambuye, iruhande rwe hari icupa ry'amazi.

Umuntu barimo barakorera massage ahagana mu ivi ye, ubona ko ari ko umuha buvuzi, ashobora kuba yari yavunitse, aryamye agaramye, iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru urimo aramumasa.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'umweru kariho utubara tw'umukara ku kaboko, yazamuye amaboko ye yombi ayahuriza inyuma y'umutwe we, yambaye isaha.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, wicaye ku buriri bufite imifariso y'imweru. Ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe ishashi irimo amazi y'ubururu, ahagana mu nkokora y'ukuboko kwe kw'iburyo. Yambaye kandi ipantaro y'ubururu.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye isengeri ndetse n'ikabutura by'umukara, yazamuye ukuguru kwe kw'iburyo agutereka ku rugo rw'ibiti rumuri imbere, akaguru ke k'ibumoso gashinze hasi, arunamye yarambuye amaboko yombi ayakoza ku kuguru kwe kw'iburyo.

Umugabo wambaye itabubura y'mweru nipantaro y'umukara, arahagaze afashe ku cyuma kiri iruhande rwe gifite nsakazamashusho imbere ye hari abantu bayicaye bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru ubururu ndetse n'umutuku.

Umuntu wunamye ari gukora imyitozo ngororamubiri bityo kugira ngo arambure imitsi ye, imikaya ye n'ibindi. Yambaye agasengeri k'icyatsi, ipantaro isa nka beje, ukuboko kwe kw'ibumoso yagufatishije ku kuguru kwe kw'iburyo.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri bityo kugira ngo umubiri we ukore neza, yubitse inda ye ariko araramye yashinze amaboko ye yimbere yose, yambaye agapira karimo ibara rya oranje n'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, agapfukamunwa, afite akuma mu kuboko kwe ku iburyo gasa umweru, arimo arapima uburyo ijisho ry'umwana wicaye imbere rimeze niba ritarwaye, uwo mwana yambaye agapira ka oranje ateruwe kandi n'undi mugore wambaye agapfukamunwa.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye agasengeri k'umweru, arimo ariruka ku cyuma kifashishwa umuntu akiyirukaho mu nzu ikorerwamo imyitozo izwi ku izina rya jimu; iruhande rwe hari umugabo wambaye agapfukamuwa k'umukara, ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara urimo kumugenzura.

Umugabo wambaye agapira k'umweru kariho uturongo tw'umukara ahagana ku maboko, araramye ukuboko kwe kw'iburyo gufashe icupa ry'ubururu rifite umupfundikizo w'umukara ari kunywa amazi bityo ari mu myitozo ngororamubiri.

Umusore wari uri gukora imyitozo ngororamubiri akaba yananiwe, yicaye ahantu akaba ari kunywa amazi ,kugira ngo abe anaruhuka. Yambaye isengeri y'umukara n'akantu ku kuboko k'icyatsi kibisi.

Itsinda ry'imbuto ndetse n'imboga harimo pome, voka, ironji, ishu, ndetse na pavuro. Kandi harimo n'akuma k'umukara kifashishwa bagaterura mu myitozo ngororamubiri, ndetse n'icupa ry'amazi yo kunywa.

Gukora imyitozo ngoramubiri, ni ingenzi ku buzima bwa buri muntu uwo ari we wese, hano hari umukobwa wicaye arambuye amaguru ye yombi. Arunamye amaboko yombi yayakojeje ku birenge bye. Yambaye agasengeri kari mu ibara ry'umutuku, ndetse n'agakabutura karirimo ibara ry'icyatsi n'uturongo tw'umweru.

Isahane y'umweru ikozwe nk'umutima, iriho ibintu bitandukanye nk'imbuto, impeke n'ibindi, harimo igitunguru kandi inyanya, impeke nk'amasaka, iruhande rwabyo hari udukoresho twifashishwa mu myitozo ngororamubiri, harimo nk'umugozi basimbuka, inkweto bambara n'akuma kandi kifashishwa mu kumva imiterere y'umutima.

Itsinda ry'imbuto ndetse n'imboga zitandukanye, muri izo mbuto harimo nk'inkeri, pome ndetse mu mboga harimo nk'amashu n'ibindi kandi byegeranye n'ikirahure cya ji, ndetse n'ikirahure cy'amazi hamwe n’akuma kifashishwa muri siporo hamwe na metero y'umugozi.

Amacupa atangana ariko asa kandi y'ubwoko bumwe akurikiranye azengurujeho agapapuro k'umukara kari mumabara nk'umutuku, umuhondo n'amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umweru.

Ikarito ifite ibara ry'umukara, yegereye ibikoresho bitandukanye birimo: umukasi, ibipfuko, inshinge, amashashi arimo imiti, ibinini, amakaramu ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bira ahongaho.

Ukuboko kwambaye ishati y'ubururu gufite icupa ririmo umuti woza amenyo, naho ikindi kiganza gifite uburoso bw'amenyo mu ntoki cyateze kugira ngo bagishyirireho umuti w'amenyo bityo atangire yoza amenyo ye.

Icupa riri mu mpuzangano y'ibara ry'umweru mumbavu ryayo rizengurukije agapapuro karirim m muzankano y'ibara ry'ubururu ariko handitseho amagambo arimo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu kandi yashushanyijeho n'akanyoni kari kuguruka.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku ndetse n'akagofero karanga Abisilamu, ahagaze mu cyumba kirimo akabati karimo amacupa, yaba ay'ibirahure n'aya parasitike arimo imiti itandukanye ya Kinyarwanda.

Abantu bari ku murongo wambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, kake ndetse n'icyatsi, Hejuru yabo hari igiti kandi imbere yabo hari amamashini manini yifashishwa mu buhinzi bwagutse, ahantu bari hateye ibimera bivanwamo imiti gakondo.

Umuntu wambaye igitenge kiri mu mabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi, afashe akoresheje ikiganza cye ku rurabo ruri imbere ye afata ku bibabi ariko urwo rurabo rufite n'uturabyo tw'umutuku.

Uducupa dutandukanye tugerekeranye twose turi mu musangano y'ibara ry'umweru, tuzengurukijeho udupapuro natwo dusa umweru, ariko twanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye, arimo umukara umutuku n'umuhondo ndetse n'ubururu.

Ikarito ya mpande enye iteretse ihagaze, ifite amabara arimo ubururu, umweru, umuhondo n'amagambo yanditseho harimo ibara ry'ubururu n'umutuku n'akamenyetso ahagana hasi kari mu ibara ry'umutuku ariko kandikishijemo amagambo y'umuhondo.

Ibimera bitandukanye ndetse n'ibindi byose byahurijwe hamwe, byifashishwa mu gukora imiti gakondo. Hagati yabyo harimo agasekuru k'umweru n'umuhinini wako, kifashishwa mu gusya iyo miti ndetse ibyo bimera n'ibindi byose kugira havemo umuti umwe.

Ibinini biri ku murongo bigera ku icumi, bipfunyitse mu kantu kabugenewe, byegeranye n'ikarito kandi iri mu ibara ry'umweru, ubururu n'icyatsi handitseho amagambo y'umweru n'imibare.

Amacupa abiri areshya kandi angana yegeranye, ari mu ibara ry'umuhondo ariko ku mupfundikizo ndetse no hasi ku kibuno harasa nka shokora. Yegereye ikirahure cy'amazi ndetse n'ibisate bitatu by'igikakarubamba.

Ibimera bitandukanye byiganjemo indabyo zifite amabara y'umweru, umuhondo, oranje ndetse na move, ziteretse mu dusahane dutandukanye harimo udutoya n'utunnini, hagati harimo umunzani w'icyuma upima uburemere mu buryo bubiri, iruhande rwaho hari agasekuru gasa umweru n'umuhini wako.

Agacupa kari mu mpuzankano y'ibara ry'umweru, kazengurukijeho agapapuro k'umutuku, iruhande rwako hari umugabo ndetse n'umugore bari kumwe kandi handitseho amagambo avuga ko uwo muti uvura indwara zitandukanye, nko kurangiza vuba gucika intege n'izindi.

Uducupa tubiri turi mu ibara ry'umuhondo tumeze kimwe. Dufite imipfundikizo isa nka shokora. Dushushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba. Iruhande rwatwo hari ishashi irimo ibintu basutse. Ndetse n'ikarito iri mu ibara ry'umweru na move.

Amoko atandukanye y'amacupa amakarito n'ibindi, harimo hasa umweru umuhondo ubururu n'umutuku, byose ni amakarito cyangwa se amacupa yifashishwa bashyiramo imiti itandukanye ivura.

Ibikombe bibiri by'ikirahure byegeranye. Birimo icyayi kirimo ibibabi byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, nk'inkorora ndetse n'izindi. ku ruhande hasi hari ibindi bibabi bitashyizwe mu cyayi.

Agacupa kari mu mpuzankano y'ibara ry'umweru kazengurukijeho agapapuro kari mu ibara ry'ubururu n'umweru, handitseho amagambo y'ubururu n'umweru kandi hariho n'inyanja irimo umuraba.

Amacupa abiri areshya y'ubwoko bumwe kandi ateye irangi ry'umuhondo, afite imipfindikizo y'umutuku n'amagambo yanditsehomo ari mu ibara ry'umutuku, imbere y'utwo tubido hari ikarito ndetse n'uducupa tubiri turi mu ibara ry'umweru.

Uducupa dusa kandi duteye kimwe, harimo uduhagaze ndetse n'akandi karyame hasi, gafite umupfundikizo w'umuhondo ndetse n'amagambo yanditseho, harimo ibara ry'umutuku n'ayandi y'umukara ndetse n'akanyoni kari gururuka gashushanyijeho.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo harimo ibikora bikajya hejuru ibirandaranda harimo n'ibindi bitandukanye byose bihurizwa hamwe bityo bigakora imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa tubiri twegeranye, duteye kimwe ariko tudasa. Kamwe kari mu ibara rijya gusa umweru akandi kari mu ibara rijya gusa umuhondo. Twose dushushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba, twegeranye kandi n'ibisate by'imbuto bakatakase.

Uducupa dutandukanye hari tubiri turi iburyo dusa dushushanyijeho ikimera k'igikakarubamba, turi mu mabara y'icyatsi n'umweru, naho ku ruhande rw'ibumoso hari agacupa kamwe gapfunduye karyamye hasi, kari mu ibara rya pinki hirya yako hari uturabyo ndetse n'ikimera k'igikakarubamba.

Abantu bambaye ibitenge birimo amabara y'umutuku ndetse na move. Bamwe barahagaze abandi barasutamye, bari mu murima bari gusarura imyaka bahinze mu gihe imaze kwera.

Amacupa atatu ari kumwe, rimwe rirateretse neza risa umweru irindi rirahengamye riteretse ku meza ariko irindi riri mu kirere risa umuhondo rifite umupfundikizo usa nka shokora hejuru hari amagambo yanditse harimo ibara ry'umukara.

Isahane y'umweru nini iteretseho agacupa k'umweru kazengurukijeho agapapuro, mu mbavu zako gasa umuhondo kariho amagambo y'umukara n'andi asa umweru. Iyo sahane kandi iteretseho imbuto nk'icunga zacagaguwemo uduce twinshi.

Ahantu ubona ko hatunganyirizwa imiti gakondo bifashishije ibimera bitandukanye, haba ibibabi, immbuto cyangwa se imizi, bakaba bayishyira mu bicupa cyangwa se no mu dukarito cyangwa amashashi.

Ibirahure bibiri byegeranye, birimo icyayi ndetse n'ibimera bishobora kuvura umuntu mu gihe yanyoye amazi yabyo, ibyo bimera birimo nk'umuravumba n'ibindi.

Agacupa kabonerana gafite umufundikizo w'umweru, kariho n'agapapuro kari mu ibara ry'umweru, ariko kanditseho amagambo y'umukara, ndetse gashushanyijeho akanyoni kagurutse k'icyatsi, hari n'andi magambo arimo ibara ry'icyatsi yanditseho.

Umuntu wasetse ufite amenyo yera, hepfo ye hari uducupa dutandukanye turimo umuti ukozwe mu kiba cy'ikarubamba yifashishwa mu gukora isuku y'amenyo, naho mu ruhande rw'iburyo hari amagambo yanditseho ari mu ibara ry'icyatsi n'umukara.